Irerero ry'abana bari munsi y'imyaka itatu ryashyiriweho kugira ngo abana bafite ubuzima bubi, barwaye bwaki babashe kugira aho bahurira ndetse babone ibibafasha mu buzima bwabo kugira ngo bakire indwara ziterwa n'inzara.

Umuntu w'igitsina gore arimo araseka yishimye, arimo gukaraba intoki ziwe n'amazi meza yo ku mugezi asukuye, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo, ufite uruhu rwirabura, wambaye ingofero, yambaye ishati, yambaye umukenyero w'umweru ndetse afite n'inkoni. Bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe aho ubu burwayi uwo bufasha bukamuzengeza yirukanka akamera nk'umusazi. Afashwe n'abandi bantu babiri iburyo n'ibumoso ubona ko bamutwaye bagiye kumujyana ku ivuriro kugira ahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Ubuvuzi bwihariye bwita ku bantu bihariye, abantu bakuze, abakecuru n'abasaza, bafite ibibazo byo mu zabukuru ndetse bakabasha kubitaho babahereza ibyangombwa bakeneye, ubu buvuzi buhabwa umuntu ufite imyaka mirongo itandatu n'itanu kuzamura.

Ikigo nderabuzima cyashyiriweho gutanga serivisi z'ubuzima gufasha abarwayi, abagize ibibazo by'ubuzima no kubavura ndetse no kubahereza ubujyanama ku burwayi bagize.

Ivuriro rizwi ku izina rya Plateau, ritanga ubuvuzi rusange, ryashyiriweho gutanga serivisi z'ubuzima, iri vuriro rikaba rizwi cyane mu kuvura indwara z'abagore.

Umuntu w'igitsina gore, yicaye ari muri siporo za yoga, nkuko tubizi siporo ni ubuzima kuri buri muntu wese uzikoze, ndetse bibasha kuzamura ubuzima bwiza bw'umuntu.

Uruteja ni icyatsi kimeza ku butaka, ndetse kiranda cyane, cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'indwara y'igisekera.